Abana biga mu mashuri y'inshuke bakaba bicaye ku dutabe twabugenewe bari kugenda bandika bigaragara ko bakurikiye neza barebye ku kibaho.

Igikuta k'ishuri kiriho igare aho iryo gare rifite intebe nziza hakaba kandi hashushanyijeho umutima ku gikuta k'inzu.

Abakobwa n'abahungu b'abanyeshuri bigaragara ko biga mu mashuri abanza bahetse ibikapu bagiye ku ishuri bari kuganira.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ifite ibikuta biteye amarangi asa umweru n'umukara, hashushanyijeho ururabo.

Udupupa twinshi tugiye dutandukanye tw'ingagi. Aho twifashishwa n'abarimu, bari kwigisha abanyeshuri amasomo yabo kugira ngo abo bana babashe kuyatsinda neza.

Abana bakiri batoya bambaye ingofero z'abisilamu baka bafite udukoresho dusiga irange bari kugenda basiga igikuta k'inzu, bishimye kandi ari batatu.

Udukapu twiza kandi tugezweho dusa umutuku, tukaba dutwarwamo amakaye n'abana bato biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo amakaye yabo ataza kwangirika.

Udupupe twinshi cyane tugiye dutandukanye bigaragara ko twigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bakatureba maze bakishima.

Gurudu ni agakoresho k'ingenzi cyane kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, aho bagatwaramo ibyo kunywa bigiye bitandukanye.

Abanyeyeshuri bagiye batandukanye, biga mu mashuri y'inshuke, bakaba bicaye ku ntebe. Bose bareba imbere, dore ko bambaye n'impuzankano, barakurikiye.

Pisine iri kugendwamo n'ibipupe bigiye bitandukanye aho muri ibyo bipupe hicayemo umwana umwe ari kugenda yoga amazi mu buryo bugezweho kugira ngo ataza kurohama.

Udushushanyo tugiye dutandukanye aho harimo amoko agiye atandukanye y'imbuto ndetse n'imboga harimo urunyanya rw'umutuku pome y'umuhondo n'ikibiriganya gisa iroza.

Ahantu mu kigo cy'amashuri hari iminyega myiza cyane yigirwaho n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bari kuyicundaho kugira ngo bamererwe neza cyane.

Inyubako nziza, yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite ibikuta, biteye amarangi y'umweru, ashushanyijeho inyoni ziri kuguruka, bigaragara ko ari inyubako y'ishuri.

Ahantu hari imyicundo, abanyeshuri biga mu mashuri abanza bifashisha bari kurya umunyenga kugira ngo baharuhukire mu masaha y'akaruhuko.

Inyajwi zigiye zitandukanye ziri ahantu zanditse mu mirongo, bifashisha bari kwigisha abanyeshuri kugira ngo babashe gusoma, kubara no kwandika.

Abanyeyeshuri biga mu mashuri y'inshuke batozwa kugira isuku. Aho haba hari kandagira ukarabe ku buryo uhageze wese akaraba hanyuma akagira isuku nziza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza benshi bagiye batandukanye bakaba bahagaze bari gukina bigaragara ko bari mu masaha y'akaruhuko none bakaba bari kwidagadura.

Abakobwa biga mu mashuri y'inshuke bakaba bicaye ku misambi bari kwiga amasomo yabo, ni benshi cyane kandi barishimye bashimishijwe n'ibyo bari kwiga.

Udukoresho tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke tuba turi mu mabara menshi agiye atandukanye.

Udupupe twinshi cyane tugiye dutandukanye, twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke. Tukaba turi mu mabara y'umutuku ndetse n'umuhondo. Tukaba ari twiza cyane.

Ikarita y'u Rwanda iri mu mabara agiye atandukanye ishushanyije ku gikuta k'inyubako y'ikigo cy'amashuri, iri mu mabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Abana biga mu mashuri y'inshuke iyo bari kwigishwa isomo ryo kuririmba hari ibishushanyo bifashisha by'amanota kugira ngo baryumve neza.

Udushushanyo twinshi cyane, tugiye dushushanyije ahantu mu mashusho agera muri atatu. Harimo abana batoya bari gukina, ahandi handitseho ngo abana twige barwanye, ahandi hari ibindi.

Ni byiza cyane ko ahantu higa abanyeshuri mu mashuri y'inshuke, haba hari imyicundo igiye itandukanye bazajya bicundaho kugira ngo banezerwe kandi bakunde kwiga amasomo yabo.

Amoko agiye atandukanye y'inyamaswa. Hari inyamaswa y'imbwa ikunda kurya ibigufwa cyane. Ikaba iri mu mabara y'umutaka, aho yafashe ikigufwa iri kukirya.

Ibishushanyo bigiye bitandukanye aho bishushanyije ku gikuta k'inyubako y'ishuri, hakaba harimo intare n'utundi tunyamaswa tugiye dutandukanye.

Udukoresho tuzwi nka gurudu, twifashishwa n'abanyeshuri, aho batwaramo amakaye yabo n'ibyo kunywa bari buze kwifashisha nibasonza.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ari inyubako y'amashuri. Isakaje amabati y'umutuku kandi hashushanyijeho n'ibishushanyo byinshi nubwo bitagaragara neza.

Iyi nyubako nziza cyane yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, ikaba irimo ibikoresho byose nyenerwa abanyeshuri bifashisha bari kwiga amasomo yabo kugira ngo bayatsinde neza.

Agasanduku kari mu mabara y'ubururu ndetse n'ibara rijya gusa na pinki, karambitse ahantu bigaragara ko kigishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Umwana mutoya w'umuhungu bigaragara ko yiga mu mashuri y'inshuke, aracyari igitambambuga, imbere ye hari igishusho cy'uruziga ari kugenda akina na cyo.

Umugore wigisha mu mashuri abanza akaba ari kumwe n'akana aho agiye kukabaza ikibazo afite indangururamajwi, akana na ko kari kugenda gakora ku kibaho.

Umukobwa n'umuhungu bigaragara ko biga mu mashuri y'inshuke, bari kugenda basatira umunyenga, abana bariraho umunyenga kugira ngo bawugeho maze bage baricunda.

Udushusho twiza cyane tugiye dutandukanye turi mu mabara y'icyatsi ndetse n'umutuku. Tukaba twifashishwa bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Udushushanyo tugiye dutandukanye bifashisha bigisha abana bato biga mu mashuri y'inshuke, aho bagenda babigisha babereka ukuntu imbeba iba itwaye imodoka ikoresheje amenyo.

Umwana mutoya uri gusiga irangi, aho imbere ye hari udukombe tugera muri dutanu, turimo amarange agiye atandukanye, we akaba ari kwanduza.

Ahantu hari udupupe twinshi tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bari kwiga amasomo yabo kugira ngo babashe kumenya amabara atandukanye.

Umwana mutoya wiga mu mashuri y'inshuke, wambaye ikabutura imusumba yatebeje uw'ivubi, akaba arigenda mu kayira gashashem utubunye twa garaviye.

Umugore ukikiye umwana ari kumugaburira hari n'abandi benshi bagiye babakikiye bari kubaha ibyo kurya, ni byiza cyane kugaburira abana ku ishuri kuko bituma batsinda.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ni byiza ko bagira imyicundo bariraho umunyenga kugira ngo bazabashe kwiga neza kandi babone aho baruhukira bishimye.

Umusaza wambaye imikenyero n'amadarubindi afite indangururamajwi mu ntoki n'ishyimbo ye irambitse ku ruhande imbere hari abana bagera kuri batanu abahungu n'abakobwa bari kumubyinira.

Udukoresho n'udushushanyo twinshi tugiye dutandukanye bakunda kwifashisha bari kwigisha abana b'inshuke ukuntu basoma neza ururimi rw'Ikinyarwanda.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere. Aho ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru, hakaba hicayemo, abana b'abanyeshuri bari kunywa igikoma.

Hariho amoko agiye atandukanye y'inyamaswa abanyeshuri bifashisha bari kwigisha abanyeshuri gusoma no kwandika, muri izo nyamaswa harimo agasumbashyamba, intare, ingona, imparage, inzovu n'ingwe.

Hariho amoko agiye atandukanye y'inka, hariho inka za kizungu bakunze kwifashisha bigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo bamenye ko izo nka zitanga umukamo utubutse.

Icyumba k'ishuri gifite igikuta gishushanyijeho ibishyiyimbo, aho ibi bishyimbo ari byiza cyane, ku buryo umuntu wese ubihinze bimuteza imbere.

Agakapu gashushanyijeho igipupe, aho ako gakapu kaba ari keza cyane, kubera ko kaba karakozwe n'abantu bize ibintu by'ubuhanga.

Agakoresho kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bagatwaramo ibyo kunywa bigiye bitandukanye baribuze kunywa igihe baraza gusonza.

Udukapu tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri, biga mu mashuri y'inshuke. Tukaba turi mu mabara y'umutuku, aho ari twiza cyane ku buryo tuba tubereye ijisho.

Udukapu tugiye dutandukanye turi ahantu hamwe, tukaba turiho n'ibishushanyo aho hari umuntu uri gushyiramo akantu bigaragara ko ari amakaye.

Agakapu keza k'umutuku gashushanyijeho agapusi, bigaragara ko ari ako abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke batwaramo amakaye yabo kugira ngo batsinde.

Udukoresho tugiye dutandukanye turi mu mabara asa umuhondo, hakaba kandi harimo n'utundi dusa umutuku, twifashishwa bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke.

Icyumba kigirwamo n'abanyeshuri b'inshuke haba harimo amoko agiye atandukanye y'iminyenga, bakunda kuriraho maze bakanyuruhukaho kugira ngo banezerwe.

Imodoka iri kugenda ahantu ikaba ari nziza cyane ifite amapine meza y'umukara, ikaba ari imodoka bifashisha bigisha abana biga mu nshuke.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri, aho muri iyi nyubako hariho ibishushanyo bigiye bitandukanye, abanyeshuri bifashisha bari kwiga amasomo yabo kugira ngo bayatsinde.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho ifite urugo ruteye amarangi y'ubururu hakaba hari ubusitani bwiza cyane buri kunyuramo abantu bagiye batandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ishushanyijeho ingorofani ndetse n'imyiko ibiri, umuryango urafunguye hari kwinjiramo abanyeshuri.

Umugabo uri ahantu ku gikuta aho hashushanyijeho ibice by'umubiri we wose yambaye n'agakabutura k'ubururu, bikaba bigaragara ko hari ibice by'umuntu bari kwigisha.

Udupupe tugiye dutandukanye tugera muri dutatu, twicaye hasi turi mu mabara atandukanye ari yo ubururu, umuhondo ndetse n'ibara rijya gusa nk'iroza.

Igipupe k'ingagi kiri mu mabara agiye atandukanye, kikaba gifite akantu wagira ngo ni imbunda bigaragara ko kigiye kurasa, bakaba bakifashisha bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke.

Udushushanyo tugiye dutandukanye tw'utunyoni, aho utu tuyoni turi ahantu turi mu mabarage atandukanye, tukaba ari dutatu bakaba batwifashisha biyigisha abana biga mu mashuri y'inshuke utunyoni.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abana biga mu mashuri y'incuke, aho biba biri mu mabaraki atandukanye, bakabyifashisha bari kwiga.

Umwana wiga mu mashuri y'inshuke akaba afite udupupe tw'inyamaswa ari kugenda adukinisha, muri izo nyamaswa harimo agasumbashyamba, inzovu, intare, imparage n'ingwe.

Agasahani keza cyane k'umweru, karambitse ku meza, kariho amoko agiye atandukanye y'imbuto, ziri mu mabara atandukanye. Hari izisa icyatsi, ubururu, umutuku n'iroza.

Kugira ngo abana biga mu mashuri y'inshuke babashe gusoma no kwandika, ni byiza kubigisha kwandika inyajwi mu murongo. Bakamenya izijya hejuru ndetse n'izimanuka.

Inyubako nziza cyane yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye n'abanza ndetse n'ay'inshuke haba hashushanyijeho udukoresho twinshi mu mabara menshi atandukanye.

Umuntu ufite tatuwaje ku kaboko y'umukobwa mwiza w'inzobe, uri guseka. Bigaragara ko ari umukunzi we, akaba yaramushyize ku kaboko kugira ngo azage amureba buri gihe.

Kandagira ukarabe yakozwe mu gicupa cya jibu, ikaba iri ahantu bigaragara ko ari yo abanyeshuri bifashisha bari koga igihe baje ku ishuri.

Inyubako nziza ifite imiryango y'umweru ifunguye, mu imbere bakaba bacururizamo ibintu byinshi bitandukanye higanjemo ibikoresho by'abana biga mu mashuri y'inshuke.

Umukobwa uri gusunika umwana ku mwicundo bigaragara ko ari umwarimu, uyu mwana rero yiga mu mashuri y'inshuke akaba ari kwicunda ku munyenga.

Udushushanyo tw'utunnyamaswa tugiye dutandukanye aho harimo akabwana kari kugenda kiruka, hakaba hari n'udukoko tubiri turi imbere yako tugufi n'akandi kamwe karekare.

Inyubako nziza cyane y'ishuri ifite ibikuta biteyeho amarange agiye atandukanye, ashushanyijeho igikanka abanyeshuri bifashisha bari kwiga ibice bigize ingingo z'umubiri.

Agakapu keza cyane kari mu mabara y'umutuku aho kano gakapu kaba kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke batwaramo ibikoresho byabo byinshi.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri aho iriho abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, harimo abahungu ndetse n'abakobwa bakaba bambaye udupfukamunwa.

Ahantu heza hari udushusho twa mpande eshatu, utwa mpande enye, n'utw'uruziga turi mu mabara atandukanye, bifashisha bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Icyapa kiri ahantu gisa icyatsi cyanditseho ngo ni gute ushobora kwimurikira nk'umuntu wibitseho ubumenyi bwo gufata ibyemezo.

Iyi in nyubako nziza cyane, zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, zikaba ari inyubako zigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke. Zikaba ari nziza zifite inzugi z'umutuku n'amadirishya y'ubururu.

Inyubako nziza yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke aho ishushanyijeho akanyamaswa k'agasumbashyamba karuse ibiti biri iruhande rwako.

Udupupe tugiye dutandukanye twicaye ahantu bigaragara ko batwifashisha bigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke babigisha ibintu bitandukanye.

Uduko rero twinshi tugiye dutandukanye, aho utu dukoresho ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese udufite tumuteza imbere ndetse akaba yabona n'amafaranga menshi agiye atandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako isakaje amabati, ikaba iteye n'amarangi y'umweru n'ubururu ku bikuta.

Umwana mutoya, wiga mu mashuri abanza, afite udukoresho tugiye dutandukanye, ari kugenda yifashisha kubera ko dufite n'amabara menshi anyuranye.

Udukoresho tugiye dutandukanye, twifashishwa n'abanyeshuri, biga mu mashuri y'inshuke, bari kwiga kubara ndetse no kumenya amabara agiye atandukanye.

Ikirango k'ikigo cy'amashuri cya Rubagabaga kikaba kiri mu mabara y'ubururu. Kikaba kerekana ko batanga uburezi bwiza, kandi bufite ireme.

Udukoresho twinshi tugiye dutandukanye, twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho ari twiza cyane. Hakaba harimo inyundo n'utundi tugiye dutandukanye twinshi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye biba byiza iyo ababyeyi babo baje kubavura bagahagararana n'abayobozi, bakifotoza kuko bituma bishima.

Abana bari kugenda biruka ahantu mu muhanda. Bikaba biba biri mu gitabo cy'amashuri y'inshuke, bari kubigisha inkuru ya Gakire ndetse na Gasaro.

Agasanduku kari mu mabara agiye atandukanye y'umutuku, kakaba karimo ibikoresho abanyeshuri bifashisha bari kwiga imibare biga mu mashuri abanza kugira ngo batsinde.

Igitabo k'Ikinyarwanda kifashishwa bari kwigisha abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke isomo ry'Ikinyarwanda kugira ngo baritsinde.

Amoko agiye atandukanye y'ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bari kwiga amabara agiye atandukanye ndetse bari no kwiga kubara gusoma no kwandika.

Ibikoresho byinshi byifashishwa mu buhinzi bakunze kubyifashisha bigisha abana biga mu mashuri abanza, aho muri ibyo bikoresho twavugamo nka bote, udupfukantoki n'agapfukamunwa.

Intama n'ihene ni amwe mu matungo magufi meza dukunze korora mu rugo. Aba ari ingirakamaro kubera ko umuntu wese uyoroye abasha kumuteza imbere, maze akabona amafaranga.

Udukoresho twinshi tugiye dutandukanye, twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza. Tukaba turi mu mabara y'umutuku. Hariho n'utuziga twinshi cyane.

Agakarito karimo utuntu tw'umutuku kari kumwe n'utundi dutatu turimo utuntu tw'icyatsi, umuhondo n'ubururu, hari n'utundi tuntu turi mu mabara agiye atandukanye.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese uyubatse ibasha kuba yamuteza imbere.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri iyo bari kwiga isomo ryabo ry'imibare harimo amakaramu y'igiti, umukasi ndetse biri mu mabara atandukanye.

Imibare ndetse n'inyuguti byanditse ahantu, bikaba ari byiza cyane kandi bikaba bigaragara ko byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu, ifite n'inzugi z'ubururu, hari n'ubusitani bwiza.

Inyubako nziza zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere zikaba ari inyubako zo mu mashuri abanza, zikaba ziteye amarangi y'umweru ndetse zifite n'inzugi z'icyatsi.

Umugore w'umwarimu ahagaze hanze y'ishuri, yambaye agapfukamunwa n'agapira k'ubururu, ari impande y'urugi rusa ubururu bigaragara ko ari mu gihe k'icyorezo.

Icyapa kiri mu mabara y'icyatsi, kiri gutanga ikaze ku bantu baje ku kigo cy'amashuri cya Rukomo. Mo imbere harimo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho aho irimo udukoresho twinshi tugiye dutandukanye kandi twiza duteye n'amarangi agiye atandukanye bifashisha bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke.

Inyubako nziza cyane yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'abiga mu mashuri abanza, ikaba iri kwakamo amatara ndetse hakaba harimo n'ibikoresho byinshi bitandukanye.

Hariho ibikoresho bigiye bitandukanye, bifite amabara menshi, bifashisha bari kwiga amasomo yo mu mashuri y'ibiburamwaka. Ari mu mabara y'umutuku, ubururu n'umuhondo.

Ahantu hari imiduri myinshi igiye itandukanye, bikaba ari ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza bari kwiga isomo ryo gucuranga.

Igipupe cy'umuntu ukenyeye agasuwime ndetse akaba akenyeye n'akandi k'umuhondo n'umweru, afite umutwe nk'uw'inkoko, afite icumu mu ntoki n'umusaraba.

Abantu b'abahinzi bahuriye hamwe aho bari mu gikorwa k'inama, bafite amasuka iruhande rwabo hari n'umugore uhahagaze uri kubakoresha iyo nama wambaye bote.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri ikaba isakaje amabati y'ubururu, iteye amarangi y'umweru ku bikuta, ikaba ari nziza cyane kandi ishimishije.

Inyubako nziza cyane, yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye, biga mu mashuri abanza, harimo udukoresho twinshi tugiye dutandukanye, bifashisha bari kwiga kugira ngo batsinde.

Igitabo cya Siyanse kigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza umwaka wa gatandatu, kikaba kiba kirimo ubumenyi ku buryo umunyeshuri ugisomye, abasha gutsinda amasomo ye.

Udukoresho twinshi tugiye dutandukanye turimo ameza, urukero, metero, intebe, inyundo, twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Agasanduku kaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke n'abiga mu mashuri abanza, biga gushushanya no guca imirongo.

Akabuwate gatwarwamo ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri baba bari ku iri isomo ry'Imibare, tukaba turimo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Amakaramu y'ibiti ni ingirakamaro cyane kubera ko yifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari kuyandikisha ndetse banayashushanyisha kugira ngo amasomo yabo agende neza.

Hari ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza. Harimo irati isa ubururu n'indi rati isa icyatsi n'iyindi isa umuhondo.

Ikibaho cy'umukara cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza yanditse mu ibara ry'icyatsi n'umweru, avuga ngo ibisubizo by'ibizamini byasohotse.

Ikigo cyiza cyane y'amashiri aho hari urugi rwiza cyane rusa ubururu, imbere hakaba harimo inyubako nziza zigezweho z'amashuri.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri, aho yubakishije amatafari ahiye, hakaba hari ubusitani bwiza cyane ndetse n'akayira k'abanyamaguru, hepfo hari inzu nziza.

Ahatu hari ibitabo byiza cyane, aho ibyo bitabo byigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, biga ibijyanye n'ubugeni.

Ameza yiciweho n'abantu bagiye batandukanye, harimo abahungu n'abakobwa bigaragaza ko ari abanyeshuri bari kwiga mu matsinda kugira ngo babashe kungurana ibitekerezo.

Abana biga mu mashuri abanza bagera muri batanu, harimo abakobwa n'abahungu, barapfukamye bari kwandika ku kibaho atari uko bahawe igihano, ahubwo ari uko ari bugufi bw'ikibaho.

Abakobwa n'abahungu bicaye mu ishuri bambaye impuzankano. Abahungu bambaye kake, abakobwa bambaye amajipo n'amakanzu asa ubururu.

Inyubako nziza cyane yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye, abiga mu mashuri abanza n'abiga mu yisumbuye, aho ibi bikoresho ari ingenzi ku buryo umuntu wese ubikoresheje bibasha kumuteza imbere.

Umubumbe w'Isi ukaba ugizwe n'imibumbe myinshi cyane igiye itandukanye, ikaba yifashishwa n'abarimu bigisha abana biga mu mashuri abanze.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza benshi, bahuriye hamwe harimo n'ababyeyi babo baje mu nama. Imbere hakaba hari abayobozi bari kubakoresha inama, aho hari ababyeyi babiri bamanitse urutoki, bashaka gutanga igitekerezo.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, zikaba ari inyubako zigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, hakaba hari n'iminyenga abana bakunda kwicundaho.

Agasanduku karimo amarati agiye atandukanye ndetse n'uducaruziga n'agasongora ikaramu y'igiti bifashisha bari kwiga isomo ry'Imibare.

Umwana mutoya uri gusoma igitabo, akaba yiga mu mashuri y'inshuke, akaba ari gusomera bagenzi be, abasomera igitabo na bo bakurikira kugira bumve icyanga k'inkuru ziri muri icyo gitabo.

Amashusho ababiri harimo imwe irimo abanyeshuri batatu harimo abakobwa babiri barambuye amaboko bayajyanye imbere n'inyuma n'umuhungu we ayarambuye ayanshyize ku mpande bakoze umusaraba.

Umunyeshuri wiga mu mashuri abanza, akaba ari ku kibaho afite ingwa, ari kugenda yandikaho inyajwi zigiye zitandukanye, mu cyapa.

Abakobwa babiri bari guhereza umugabo igihembo cy'ishimwe cy'agakarito karimo imashini ya Lenovo, bakaba bambaye udupfukamunwa bose.

Mu nyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, haba harimo ibikoresho bigeye bitandukanye, bifashisha bari kwiga kugira ngo bazabashe gutsinda amasomo yabo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri bari kwiga isomo ry'imibare, harimo amarati, udusanduku, amakaramu y'ibiti n'ibindi.

Inyubako nziza cyane y'amashuri abanza ikaba ari inyubako nyinshi zigiye zitandukanye hari n'amadarajya abantu bagiye ku ishuri bazamukaho.

Udukore tugiye dutandukanye, twifashishwa n'abanyeshuri, biga mu mashuri abanza. Harimo agacaruziga, amarati atatu n'ikaramu y'igiti n'agasiba.

Agasanduku kaba karimo amarati ndetse n'ibikoresho byinshi bigira bitandukanye, abanyeshuri bifashisha, bari kwiga isomo ryabo ry'Imibare kugira ngo baritsinde neza.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu mashuri abanza, aho harimo isuka, icyuma n'igikombe, bikaba ari ingirakamaro.

ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri, iyo bari kwiga isomo ry'imibare by'umwihariko abiga mu mashuri abanza barabyifashisha.

Agasanduku kaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye aho harimo ikaramu y'igiti, amarati atatu, hakaba harimo n'agacaruziga.

Udukapu tugiye dutandukanye turiho ibikinisho bakaba babyifashisha batwaramo amakaye y'abana bakiri batoya biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo batsinde.

Inyuguti nyinshi zigiye zitandukanye, zanditse mu mabara menshi atandukanye, bigaragara ko ziba ziyubashisha bigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Abantu benshi cyane batonze umurongo, harimo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, bambaye imyambaro igiye itandukanye, harimo n'abandi bambaye udupfukamunwa.

Agakoresho kariho imibare myinshi igiye itandukanye ndetse n'amagambo n'amakarita, hakaba handitseho isomo rya Seti ryigishwa abana bo mu mashuri abanza.

Idukoresho tuzwi nk'utubuwati, tuba turimo ibikoresho abanyeshuri bifashisha biga isomo ry'imibare turi mu mabara atandukanye kamwe kari mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda akandi gasa umutuku.

Udukoresho tugiye dutandukanye dukoreshwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke. Tukaba turimo amabara agiye atandukanye, kandi meza.

Umwana wiga mu mashuri y'inshuke yambaye imyenda y'ubururu n'umuhondo afite igitabo mu ntoki gisa umutuku, hejuru handitseho inyajwi nyinshi.

Ibitabo byinshi cyane bipanze ahantu hamwe biri mu mabara agiye atandukanye y'ubururu, icyatsi n'umutuku, hari n'agakombe karimo amakaramu y'ibiti n'akandi karimo imikasi.

Inyubako nziza, yubatswe mu buryo bugezweho, aho yubakishije amatafari ahiye. Hari amadarashya manini, yubakishije amabuye. Ikaba yigirwamo n'abanyeshuri.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bari kwiga isomo ry'imibare. Harimo amarati, uducaruziga n'amakaramu y'ibiti ndetse n'ibindi.

Inyubako nziza cyane z'amashuriri aho ziteye amarange agiye atandukanye y'icyatsi, hari n'ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo bakurikirane amasomo yabo batsinde.

Udukoresho twiza cyane tuba turi mu gitabo harimo n'udushusho twiza abanyeshuri bifashisha bari kwiga, iki gitabo kikaba cyitwa Gasaro n'abajura.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, harimo inanasi, umuneke, imodoka, pome, ibitunguru n'ibikombe.

Udukoresho twifashishwa abanyeshuri bari kwiga isomo ry'imibare harimo amarati, uducaruziga ndetse n'ikaramu y'igiti n'akayisongora n'agasiba.

Inyubako nziza z'ikigo cy'amashuri aho zigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye, hakaba hariho n'udutafari duhiriye ndetse hari n'umugabo umwe uhahagaze.

Amoko agiye atandukanye y'imbuto, aho ziri mu mabara agiye atandukanye, harimo iziri mu amabara y'umuhondo, izisa umuhondo n'icyatsi, iz'umutuku n'iziroza.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuriri, aho kuri iyo nyubako hari icyapa gitanga ikaze ku bantu bose bahagendereye, bavuga ngo murakaza neza ku kigo cy'amashuri cya Rukomo.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho hariho udukoresho twinshi tugiye dutandukanye abanyeshuri bifashisha bari kwiga isomo ryabo ry'Imibare.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke, haba harimo inyajwi ndetse n'imibare bifashisha biga kubara no gusoma.

Igitabo cy'Ikinyarwanda kigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari kwiga amasomo yabo agiye atandukanye kugira ngo barebe ko bayatsinda neza cyane.

Akantu keza cyane gakozwe mu ruziga, aho bakifashisha bari kwigisha abanyeshuri, biga mu mashuri abanza babigisha isomo ryabo ry'imibare.

Umukobwa muto w'umunyeshuri, ufite agakoni ari gusoma ku kibaho ngo arebe ibihanditse maze yigishe bagenzi be na bo babashe kubimenya kandi basobanukirwe.

Inyubako nziza cyane yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ikaba yubakishije amatafari ahiye ndetse hakaba hari n'umunyenga abana bakunda kwicundaho.

Umukobwa ari kumwe na gasaza ke kakiri gatoya, bigaragara ko kataratangira ishuri. We yambaye impuzankano na bodaboda, ari gufungura urugi rusa umutuku.

Ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, by'ingirakamaro byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari kwiga isomo ryabo ry'Imibare kugira ngo baritsinde.

Udukoresho twinshi tugiye dutandukanye turi mu mabara y'icyatsi umutuku ndetse n'umukara tukaba twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Udukoreshwa tugiye dutandukanye turi mu mabara menshi aho tumwe turi mu mabara y'iroza utundi turi mu mabara y'umutuku, hari n'agasakoshi abanyeshuri batwaramo amakaye bagiye ku ishuri.

Inyubako nziza nshyashya ikigo cy'amashuri bari gutaha hari abantu, batandukanye hari umuporisi n'umugabo uri gukata umushumi umunyeshuri n' abarimu.

Udushanyo twinshi tugiye dutandukanye, turi mu mabara menshi y'icyatsi, umuhondo, umweru n'umutuku. Tukaba twifashishwa, bigisha abana amabara.

Igitabo kiza cyane kiri mu mabara y'umweru, icyatsi ndetse n'umutuku, hashushanyijeho abana batoya bigaragara ko ari igitabo k'isomo ry'Ikinyarwanda.

Inyubako nziza cyane aho bari kutwereka ibice biyigize, bakatwereka amabati y'umutuku, idirishya ry'ibirahuri, inzugi z'ubururu n'igikuta giteye irange ry'umweru.

Agasanduku kaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bari kwiga amasomo yabo kugira ngo babashe gutsinda.

Ibishushanyo biri mu mabara y'umukara by'abanyeshuri n'abarimu bari mu ishuri, ku kibaho handitseho imibare igiye itandukanye bigaragara ko ari ryo somo ari kwiga.

Ahantu heza cyane mu nyubako y'ikigo cy'amashuri mu ishuri ryigirwamo n'abana biga mu mashuri y'inshuke, hakaba harimo udukoresho tugiye dutandukanye, bifashisha bari kwiga amasomo yabo.

Udushushanyo tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari kwiga imibare igiye itandukanye kugira ngo baze kuyitsinda babone amanota.

Udukoresho twinshi tugiye dutandukanye twifashishwa bari kwigisha mu mashuri y'inshuke, harimo amakaramu y'ibiti, imikasi n'amakaramu asanzwe, n'amakayi n'utumashini.

Udukoresho twinshi twiza kandi tugiye dutandukanye, tukaba ari udukoresho turi mu mabara menshi bifashisha bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke.

Agasandu gasa ubururu kaba karimo amarati, uduca uruziga, amakaramu y'ibiti, udusongora ibiti ndetse n'udusiba aho ikaramu y'igiti yanditse.

Abantu bagera muri babiri umukobwa n'umuhungu, umukobwa yambaye ikanzu y'ubururu, umuhungu yambaye imyenda ya kaki bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Udukoresho tugiye dutandukanye dushushanyije ahantu twifashishwa mu bubaji, hariho inyundo, hariho umukero, hariho ishoka, hariho n'imbaho y'amazi.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba ari inyubako y'igorofa. Hakaba kandi hari utwuma tuyikikije dusa ubururu n'icyatsi.

Ahantu hari amagambo agiye atandukanye, yanditse ahantu ku gikuta. Bikaba bigaragaza ko ari abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye babyiga.

Igitabo bakunda kwifashisha bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho baba bari kubigisha imyandiko myinshi igiye itandukanye, aho muri iyo myandiko harimo umwe w'isandi n'intajya.

Udushushanyo tugiye dutandukanye harimo aka mpande eshatu, aka mpande enye, aka mpande eshanu n'aka mpande esheshatu twifashishwa bigisha abana biga mu mashuri abanza mu isomo ry'Imibare.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri aho mo imbere haba harimo ibikoresho byose byinshi bigiye bitandukanye abanyeshuri bifashije bari kwiga kugira ngo babashe gutsinda amasomo yabo.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, umuryango urafunguye ndetse urugi rusa ubururu, hakaba hari intebe y'ishezi iteretseho ikibido n'akabase kari munsi.

Agasanduku karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, aho ibi bikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, iyo bari kwiga isomo ryabo ry'Imibare.

Agakoni keza cyane kari mu mabara agiye atandukanye, kakaba karyamye ahantu bigaragara ko ari ingirakamaro cyane kubera ko bakicumba.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakaba bari mu ishuri, aho bari kumwe na mwarimu wabo, agenda abigisha ibintugiye bitandukanye, na bo bamukurikiye.

Icyumba cy'ishuri giteraniyemo abantu bagiye batandukanye, aho harimo abagabo n'abagore, harimo n'intebe n'ameza byiza cyane bifashisha abari kuyiga.

Ukapu tugera muri dutatu, tukaba turambitse ahantu hamwe. Bigaragara ko hari udukapu tw'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, batwaramo amakayi.

Ibitabo bibiri biri mu mabara y'icyatsi n'ubururu n'udukayi tubiri, turi mu mabara y'icyatsi n'ubururu n'agakombe karimo amakureri menshi birambitse ahantu.

Udukoresho tugiye dutandukanye tuba turi ahantu higishirizwa abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, aho baba bari kubigisha kugira ngo bamenye ubwenge cyane.

Inyubako nziza cyane z'amashuri, aho ziri ahantu heza. Hakaba hari ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo.

Inyubako nziza cyane y'ishuri aho ifite ibikuta biteye amarange y'umuhondo ndetse ikaba ifite n'ibindi biteye amarangi y'umweru harimo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza benshi bambaye impuzankano z'ishuri ndetse bakaba bambaye n'udupfukamunwa, bari kumwe n'abashinzwe umutekano bambaye impuzankano zijya gusa kake.

Ikigo cy'amashuri gifite inyubako nziza cyane zisakaje amabati y'umutuku, hakaba harimo ubusitani bwiza buteyemo icyuma kiriho ibendera ry'u Rwanda.

Abana bato biga mu mashuri y'inshuke, bakaba bicaye ku ntebe, bari kwiga, bari no kwandika. Imbere ku kibaho handitseho umubare icumi mu gataburo.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'ishuri yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, hakaba harimo inzugi zisa ubururu.

Icyumba k'ishuri kiza cyane giteye amarangi y'umuhondo ndetse n'umweru kikaba kigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, harimo ameza ndetse n'udutere twiza.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba ari inyubako y'amashuri abanza, imiryango irafunguye ndetse nta muntu n'umwe uhari.

Udukoresho tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri bari kwiga isomo ry'imibare, hakaba harimo uturi mu mabara y'umuhondo, umutuku, icyatsi n'ubururu.

Ni mu cyumba cy'ishuri aho harimo abanyeshuri benshi bagiye batandukanye bari kwiga, imbere yabo hari mwarimu w'umugore uri kubigisha ku kibaho afashe agakoni.

Udushushanyo twinshi tw'amabara agiye atandukanye, aho utuno dushushanyo ari ingenzi. Harimo imipira igiye itandukanye, imigozi n'utundi dukinwa n'abana bato.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba ari inyubako zo mu mashuri abanza. Hakaba hamanitsemo Ibendera ry'u Rwanda ndetse hari n'ubusitani bwiza cyane, buteyemo umucaca.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aho zisakaje amabati y'umutuku n'ibikuta biteye irange ry'umweru. Zikaba ari nziza cyane, aho zigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Udusanduku tugiye dutandukanye turimo ibikoresho byinshi byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza bari kwiga amasomo yabo agiye atandukanye, haba harimo uducaruziga, amarati ndetse n'amakaramu y'ibiti.

Udukoresho tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, tukaba ari twiza cyane kandi batwifashisha abari kwiga amasomo yabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye bigaragara ko ari abana bari kwifotoza banezerewe.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'imyuga baba bafite abarimu babo bakunda kubigisha bambaye utujiri kugira ngo abo bana babashe kumenya ubwenge batsinde.

Inyubako nziza zubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, hakaba hahagaze abana benshi b'abahungu n'abakobwa, bari kwifotoza hamwe n'abarimu babo.

Inyubako nziza zubatswe mu buryo bugezweho. Akaba ari inyubako zigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bagiye batandukanye benshi.

Umugabo ufite igipapuro mu ntoki wambaye amadarubindi ufite n'indangururamajwi, ahagaze imbere y'abanyeshuri aho ari kugenda abaha imbwirwaruhame na bo bakurikiye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aho bagiye mu muhango wo kwibuka abazize Jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo kenda na kane.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye bahuriye hamwe, aho bari gukoma mu mashyi bose biyishimye bari no kwifotoza. Bamwe barahagaze abandi baricaye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bateraniye hamwe, bicaye ku ntebe mu busitani, burimo ibiti birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bantu bahari.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bari mu nama. Harimo abagabo ndetse n'abagore. Imbere yabo hari umugabo wambaye amadarubindi, ufashe indangururamajwi ari kubakoresha iyo nama.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bagiye batandukanye aho harimo abakobwa babiri bahawe ibihembo by'ishimwe, bafite igikombe ndetse na seritifika mu ntoki.

Inyubako nziza cyane yahuriyemo abantu benshi bagiye batandukanye aho higanjemo abanyeshuri biga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro, aho bambaye utujire dutandukanye.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bakaba biga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyigiro bakaba bari gusudira ahantu ku kihuta ndetse bambaye n'amasarureti.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri ikaba ifite amashuri asakaje amabati y'ubururu n'inzugi z'ubururu, yubakishije amatafari ahiye aho ifite ubusitani bwiza bunini bwinshi.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri, aho yubakishije amatafari ahiye ikaba irimo na sima, ikaba yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye.

Abakobwa benshi bagiye batandukanye, bambaye impuzankano z'ishuri, ziri mu mabara y'umweru n'umutuku. Bafite ibikapu mu ntoki, aho bari gushyira nzira, bataha bajya iwabo, bigaragara ko bagiye mu kiruhuko.

Abanyeshuri bari mu gikorwa cyo kwibuka biga ku kigo cy'amashuri cya Nyagatare, aho bari kugenda mu muhanda bafite icyapa cyaditseho ngo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na kabiri.

Abanshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, hakaba hari umugabo w'umwarimu ubahagaze imbere uri gutunga urutoki mo hagati, abwira umwe ngo itonde.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho, aho muri iyo nyubako, harimo abanyeshuri bagiye batandukanye, bari gukora ikizami. Bari kumwe na mwarimu wabo, aho ari kubacunga.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye baba ari abahanga cyane kuko iyo bakurikiranye amasomo yabo neza uko bikwiriye, babasha kuyatsinda maze bakamenya ubwenge bwinshi cyane bakunguka ubumenyi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano ziri mu mabara agiye atandukanye, aho izi impunzankano ari ingenzi, ku buryo iyo bazambaye babasha gusa neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bari kwifotoza, umwe afite igikombe, undi afite seritifika, undi afite indangururamajwi barishimye.

Umugabo uri kumwe n'umwana mutoya aho bafashe telefone y'umukara mu ntoki, buri wese afite agapapuro bari kugenda basomaho bavuga utugambo twinshi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye harimo abakobwa ndetse n'abahungu bari kwifotoza bamwe barapfukamye abandi barahagaze bishimye bose.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye iyo bari mu kizami buri wese aba yicaye ku ntebe ye hanyuma mwarimu akagenda abacunga ko ntawukopera.

Inyubako nziza cyane iteraniyemo abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyigiro bakaba bambaye ingofero nziza cyane ndetse n'utujire.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano bahagaze bari kwifotoza abahungu n'abakobwa ndetse bishimye cyane banezerewe.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari gukoresha mudasobwa, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi, bari kugenda bayanywa igihe cyose bagize icyaka.

Abanyeyeshuri biga mu mashuri abanza bateraniye hamwe bambaye impuzankano z'amashuri, bakaba bambaye imihondo n'abandi bambaye ubururu bose bicaye bishimye.

Abanyeshuri benshi biga mu mashuri yisumbuye, bateraniye hamwe aho bicaye mu busitani bambaye impuzankano z'ishuri ziri mu mabara y'umweru ndetse na kaki.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere ikaba ifite ibikuta by'umweru, harimo abantu benshi bambaye utujiri bigaragara ko ari abanyeshuri.

Inyubako nziza cyane irimo abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri ndetse na mwarimu wabo. Akaba ari kugenda akoma mu mashyi maze nabo bakamwitegereza.

Abana biga mu mashuri yisumbuye benshi, harimo abakobwa n'abahungu, bakaba bicaye bari mu nama, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'icyatsi n'amashati y'umweru.

Umuryango w'ikigo cy'amashuri wubakishije ibyuma bisa icyatsi, hakaba handitseho hejuru ngo murakaza neza mu cyumba cy'amashuri yisumbuye cya Rukomo.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye, biga mu mashuri abanza, ay'incuke n'ayisumbuye.

Abantu benshi cyane biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano z'ishuri ziri mu mabara y'ubururu ndetse na kaki, hakaba hari n'umugore w'umwarimu uri kugenda ava aho bari.

Abanyeshuri benshi bicaye ahantu munsi y'ibiti bigaragara ko bari mu nama, bambaye impuzankano zigiye zitandukanye iz'umweru na kaki n'abandi bambaye iz'umuhondo n'umukara.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi, harimo abahungu n'abakobwa. Bambaye impuzankano, aho imbere yabo hari umwarimu wambaye agapira k'ubururu ndetse wambaye n'isaha.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye higanjemo abahungu n'abakobwa, bakaba bari kwiga bakoresheje mudasobwa kugira ngo barebe ko batsinda.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bambaye impuzankano zigiye zitandukanye harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bamwe bambaye impuzankano z'umweru ndetse na kake, abandi bambaye udupira tw'umuhondo hasi bambaye umukara bari mu nama.

Abakobwa bagera muri bane beza cyane, bambaye impunzankano z'amashuri yisumbuye bambaye na karuvati bahagaze bari kwifotoza banezerewe bishimye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, bambaye impuzankano z'ishuri. Bari kugenda bishimye, higanjemo abakobwa ndetse n'umuhungu umwe.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo abahungu ndetse n'abakobwa, bakaba bahagaze bari kwifotoza kandi bishimye bigaragara ko iyi ari ifoto y'urwibutso.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba ifite imiryango y'ubururu hakaba hari n'ubusitani bwiza cyane.

Umunyeshuri wiga mu mashuri yisumbuye, wambaye umupira w'icyatsi, ari guhabwa igihembo n'abarimu. Ari kumwenyura kubera ukuntu yitwaye neza none bakaba bari kumuha ibikoresho.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri aho iyo nyubako iranga ikigo cy'amashuri cya TTC Matimba giherereye mu Ntara y'Iburasirazuba.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bateraniye hamwe, aho bambaye impuzu mpuzangano bamanitse ibiganza bose bishimye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye bahagaze ahantu mu cyumba bambaye impundakano z'ishuri abandi batazambaye, bafite udupapuro mu ntoki turiho indirimbo.

Umukobwa wiga mu mashuri yisumbuye, wambaye impuzankano ari kwinjira mu kigo cy'amashuri, hari umuntu wambaye impuzankano z'abashinzwe umutekano uri kumutunga akuma.

Ni byiza cyane ko mu rwego rwo kuyimakaza isuku, Leta y'u Rwanda, yashyizeho ubwogero, aho abanyeshuri biga mu mashuri, baza bakogera, bakamererwa neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi, bahuriye hamwe aho bari mu gikorwa kiza cyane k'inama, bakaba bakurikiye mwarimu wabo, aho ari kugenda bakoresha inama na bo bakurikiye.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere y'amagorofa. Ikaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri yisumbuye kandi ari nziza cyane.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri cya Nyagatare, aho hari imbuga nziza, ishashemo amapave ndetse hakaba hari n'icyapa kihagana cyiza cyane.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza n'abiga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari ku muronko, aho bambaye imyambaro iri mu mabara agiye atandukanye.

Ikirango kiza cyane, gishushanyijeho abanyeshuri babiri b'abakobwa, bari gusoma amakayi, biga mu mashuri yisumbuye mu kigo cya Nyagatare. Bakaba ari beza cyane.

Icyumba k'ishuri kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, abanyeshuri bifashisha bari kwiga, hakaba hahagazemo abantu bambaye utujire dutandukanye.

Inyubako nziza, yubatswe neza, yubakishije amatafari ahiye. Hakaba hari urugo rw'ibyuma bisa ubururu. Hari n'abantu b'abakorerabushake bahahagaze batatu.

ni byiza cyane ko ikoranabuhanga rikomeza gutezwa imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abana bose babigisha gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo bajyane n'Isi nshya.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bakaba bateraniye hamwe aho bari kugenda biga isomo ryabo, bambaye impuzankano nyinshi zigiye zitandukanye.

Abanyeshuri, biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari ku muronko, aho bari kumwe n'umwana wabo ndetse na mwarimu uri kugenda bakosora, areba ko babikoze.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye baba bari mu mashuri bicaye, umwe muri bo uzi ibintu kubasumbya akajya imbere akabasobanurira kugira ngo bafashanye.

Inyubako y'ubwiherero yubakishije amatafari ahiye, ikaba yanditseho n'amagambo. Hari n'ikigega cy'umukara gifata amazi avuye hejuru y'izi nyubako.

Mu rwego rwo guteza imbere ireme ry'uburezi mu Rwanda Leta yavuze ko abanyeshuri bose bagomba kuzajya biga mudasobwa kugira ngo babashe kumenya ibijyanye n'ikoranabuhanga.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bicaye bari mu nama. Imbere yabo hari umuyobozi w'umugabo wambaye imyenda y'umukara uri kuyibakoresha.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Imbere y'aho hahagaze umukobwa mwiza cyane ari kubaganiriza.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri, aho ari inyubako yubakishije amatafari ahiye, hakaba kandi hari iminyenga abanyeshuri bifashisha abari kwicundaho kugira ngo banezerwe.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi cyane, harimo abambaye impuzankano z'amashati y'umweru n'amajipo ya kake n'abandi bambaye amapantaro y'umukara.

Inyubako nziza iteraniyemo abanyeshuri bagiye batandukanye biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bafite za mudasobwa imbere yabo aho bari kugenda bazigiramo, imbere yabo hahagaze umwarimu.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri aho yubakishije amatafari ahiye, iteye amarangi agiye atandukanye ndetse ikaba ifite urugo rwubakishije ibyuma by'umutuku.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza benshi n'abiga mu yisumbuye, bakaba bicaye bari kuganira kandi bishimye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bahetse ibikapu, bambaye impuzankano z'ishuri bahagaze hanze mu mbuga ishashemo amapave.

Inyubako nziza cyane zubakishije amatafari ahiye, zisakaje amabati y'ubururu, zikaba ari nziza cyane kandi zigezweho ku buryo ziba zibereye ijisho.

Abarimu benshi bagiye batandukanye, aho buri wese afite mudasobwa. Aho iyi ngiyi ari ingenzi cyane, ku buryo umuntu wese uyifite imuteza imbere.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, benshi bagiye batandukanye, bambaye amashati n'amajipo n'udusogizi, aho bose bishimye, bambaye na karuvati.

Abanyeshuri benshi cyane bateraniye hamwe, aho bifashe mu manyanyinya, abandi bipfumbase, abandi bifashe ku itama, bari mu nama bigaragara ko bumiwe.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe mu gikorwa cy'ubukangurambaga ndetse bakaba bafite icyapa cyanditseho ngo kwibuka twiyubaka. Aho bakangurira abaturage kwibuka.

Abantu benshi biganjemo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye udupira turiho ibendera ry'u Rwanda n'ikirangantego. Inyuma yabo hahagaze abarimu babahaye ibihembo by'ishimwe.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, biba byiza kubapima bifashishije agakoresho kabugenewe kugira ngo barebe ko ntawanduye icyorezo cya Covid.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri, aho yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite urugo, rwubakishije ibyuma by'ubururu, ndetse hahagaze abantu bambaye utujire.

Abantu benshi bahuriye hamwe biganjemo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye imyambaro iri mu mabara agiye atandukanye, aho bari gukoma mu mashyi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho imbere harimo abanyeshuri bagiye batandukanye bambaye udupfukamunwa ndetse imbere yabo hahagaze umwarimu.

Inyubako nziza cyane iteyemo intebe z'icyatsi, aho izo ntebe ziba zikikijwe n'ameza bigaragara ko izo ntebe abana bazicaraho bari kwiga mudasobwa.

Abanyeshuri benshi biga mu mashuri yisumbuye, bakaba batonze umurongo bari gukurikira inama bahabwa na mwarimu wabo, ubari imbere kugira ngo babashe kwiga neza.

Inyubako nziza ziri ahantu mu rusiziro ariko bikaba bigaragara ko ari inyubako z'ikigo cy'amashuri, hateyemo ibiti birebire byinshi kandi byiza bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Inyubako nziza, yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho nk'imbere harimo abanyeshuri bagiye hatandukanye, abakobwa n'abahungu, bari kugenda bakora ikizami, aho buri wese yicaye ku ntebe ye.

Abanyeyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bakaba bari mu nama, bicaye mu ntebe aho abo hagati aho bakandagira havunitse, hakaba hari umugabo uri kubakoresha inama.

Abanyeshuri benshi biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano. Bakaba bicaye mu ishuri, harimo abarimu babo babiri, umwe w'umugore n'undi w'umugabo. Bakaba bagiye kubakoresha ikizami.

Umwarimu uri guhemba umunyeshuri witwaye neza, bakaba ari abarimu batatu ndetse n'umunyeshuri umwe, bari kugenda babitaho kugira ngo banezarwe.

Udukoresho tuba twarakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza ndetse n'abiga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro kugira ngo bamenye ibintu byinshi bigiye bitandukanye byiza.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho iyi nyubako iriho umuryango uriho igisiga kiri kuguruka.

Igishushanyo cy'umuntu uri guseka w'umugore, afite umusatsi utari mwinshi, akaba ari ikibumbano cyakozwe n'abantu babyigiye.

Amavaze agiye atandukanye akunda guterwamo indabyo bikaba bigaragara ko ari meza cyane kandi yakozwe n'abantu b'abahanga.

Ikibaho kiri ku gikuta kikaba ari kiza cyane kandi kimeze nkaho giteye amabengeza kucyandikaho kuko ari kiza cyane.

Udutebe twiza cyane turi mu mabara y'ubururu twicarwaho n'abanyeshuri biga muri kaminuza, biga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bari kumanuka ku madarajya bafite ibikapu birimo imashini zabo abandi na bo nta kintu bafite mu ntoki babereye aho.

Ubusitani bwiza cyane, buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo. Hateyemo n'ibiti birebire kandi bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bantu bahari.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza baba ari abahanga cyane kubera ko bakurikirana amasomo yabo neza, bakabasha kuyatsinda maze, bakaba abahanga.

Abakobwa n'abahungu ndetse n'abagabo n'abana tutibagiwe n'abagore, bakaba bateraniye mu nyubako aho bari mu nama, bafite amakaye n'amakaramu bari kugenda bandika ibivugirwamo.

Akaziga kari mu mabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'umutuku, n'ubururu, kakaba kerekeza ahantu hagiye hatandukanye harimo n'amabendera y'ibihugu byinshi.

Mu nyubako nziza, iteye amarangi y'umweru kukuta, aho mo harimo intebe nyinshi zigiye zitandukanye ziza ubururu, zicarwaho n'abanyeshuri, biga muri kaminuza y'u Rwanda.

Inyubako nziza iteye amarangi y'umweru ku bikuta aho harimo ibitako birimo ibiseke n'ibitenge byiza cyane byakozwe n'abantu biga imyuga n'ubumenyingiro.

Udukoreshwa tugiye dutandukanye dukorwa n'abanyeshuri bize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro, aho tuba dukoranye ubugeni, ku buryo uramutse udukeneye, ugenda ukatugura, ugatanga amafaranga.

Iyo umunyeshuri yize muri kaminuza, akabikurikirana neza, aba ari umuhanga, kuko ahavana ubumenyi bwinshi cyane bwamufasha mu buzima bwo hanze, maze agatera imbere.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bikoranywe mu ubuhanga biba byarakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza ibijyanye n'imyuga n'ubumenyi ngiro, kubera ko baba ari abahanga.

Inyubako nziza cyane yigirwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza bakaba bicayemo bagiye gukora ikizami, imbere yabo hari umwarimu wambaye amakositimu n'agapfukamunwa.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bakoze garaduwesheni baba bambaye amakanzu meza, bazamuye ibiganza, bishimye, bari guha Imana icyubahiro.

Abanyeshuri benshi cyane biga muri kaminuza bambaye udupira tw'umweru ndetse bambaye n'udukarita tw'akazi mu ijosi, bicaye ku meza ariho ibitambaro by'umukara bari mu nama.

Abanyeshuri biga muri kaminuza benshi bambaye amakanzu bakaba bishimye bishimira umunsi wabo bakoreyeho garaduwesheni bakaba barebye hejuru.

Umukobwa wambaye agapantaro n'udukweto dusa umukara, akaba afite ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse akaba ari kugenda abikoresha.

Igikuta gishushanyijeho umukobwa, aho uwo mukobwa ari bugenda, akaba yambaye ipantaro bigaragara ko ari igishushanyo.

Udutebe twiza cyane twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri ba kaminuza, aho batwicaraho tukaba turi mu mabara y'ubururu dufite n'aho bandikira heza.

Umukobwa wambaye itaburiya n'amadarubindi afite umusatsi yazirikiye inyuma, akaba yiga ibijyanye n'ubuvuzo muri kaminuza ari kurebera mu cyuma cyabugenewe.

Intebe irambitseho akadobo k'icyatsi kakaba kateretsemo sima, bigaragara ko iyi ntebe ari iyo muri Kaminuza y'u Rwanda y'i Nyagatare.

Amababi menshi agiye atandukanye, aho aya mababi ari meza kuko ari umuntu wayashushanyije mu buryo bwa gihanga none akaba ashimishije.

Utubummbano twinshi tugiye dutandukanye, aho utu tubumbano tuba twarakozwe n'abantu, bize ibjyanye n'imyuga n'ubumenyingiro, harimo n'udukozwe mu ibumba.

Inyubako nziza zigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye hakaba hari kunyuramo abantu benshi bagiye batandukanye harimo abanyeshuri ndetse n'abarimu benshi.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho, aho muri iyo nyubako harimo udutebe twiza cyane tw'ubururu, tukaba twicarwaho n'abanyeshuri, biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro.

Ubukoresho bugiye butandukanye buba bwarakozwe n'abantu bize ibijyanye n'ubugeni muri kaminuza y'u Rwanda, buba ari bwinshi kandi ari bwiza, bubereye ijishoro.

Abanyeshuri biga muri kaminuza baba bafite ubuhanga buhanitse aho bakora ibintu by'ubugeni bigiye bitandukanye ndetse bakabigurisha bakabona amafaranga.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza bakaba bari kwandika mu makaye yabo bakoresheje amakaramu aho ari benshi kandi bishimye.

Umugabo uri ahantu afite indangururamajwi akaba ari kugenda ayivugiramo, hari abandi bantu benshi bahari kandi bishimye b'abaririmbyi.

Agatebe keza cyane k'ubururu, kicarwaho n'abanyeshuri biga muri Kaminuza, bari kwiga amasomo yabo. Harambitseho agakaye n'urupapuro, abanyeshuri bifashisha bari kwiga kugira ngo batsinde.

Igikuta kiza cyane cyubatswe ku buryo bugezweho aho icyo gikuta ari ingirakamaro cyane, hakaba hariho utuntu tw'umutuku tubiri bigaragara ko ari icyo muri kaminuza.

Ahantu heza cyane hari inyubako nziza bigaragara ko zigirwamo n'abanyeshuri, hakaba hashushanyijeho udushushanyo twiza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bahuriye hamwe ari benshi cyane, aho bishimye bari kumwe n'abayobozi babo.

Inyubako nziza cyane yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, bari kumwe na mwarimu wabo w'umugore ari kubigisha.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi, bakaba bateraniye hamwe bari kwiga. Bambaye udupira tw'umweru tw'impuzankano. Imbere yabo ku meza, hateretseho uducupa tw'amazi.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo nziza cyane kandi zibereye ijisho, hakaba hari n'akayira kari kunyurwamo n'abanyamaguru gashashemo amapave.

Ibibumbano bikoranywe ubuhanga bikaba byarakozwe n'abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, aho babibumba hanyuma bakajya babigurisha kugira babone amafaranga.

Agatabo gashushanyije ahantu gashushanyijemo inyamaswa dusanga muri pariki y'Igihugu y'ibirunga, iyo nyamaswa ikaba ari ingagi, ikunda gukurura ba mukerarugendo.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ifite inzugi ziteye amabara y'icyatsi, n'ibirahure bitabonerana bya fime.

Umugore w'umwarimu uri mu ishuri, imbere ye hari abanyeshuri benshi baje kwiga bakurikiye, akaba yambaye ikanzu y'isengeri, ari kubigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga.

Igikuta cy'inyubako giteye amarangi y'umweru, hariho ibishushanyo bihamanitse byinshi by'imitako kandi myiza, ku buryo umuntu wese ubibonye abyishimira

Agatebe keza cyane dusanga muri Kaminuza y'u Rwanda gasa ubururu, kaba gafite aho bicara ndetse naho barambika ikaye bakandika kugira ngo bige neza, iruhande rwako hari akadobo.

Inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza, ikaba ari nziza cyane, ifite imbuga ishashemo amapave kandi meza cyane.

Umuntu wiga muri kaminuza, akaba ari ahantu afite ikayi imbere ye, ari kugenda asomamo. Hari na telefoni n'amakaramu, byose ari kwifashisha.

Igipupe cyangwa ikibumbano cy'umuntu wasadutse mu maso bigaragara ko cyakozwe n'umuntu wize mu mashuri yisumbuye ibijyanye n'imyuga yagikoze ariko nticyamuhiriye.

Inyubako nziza, yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'amashuriri. Ikaba ifite igikuta iteye amarangi y'umweru, hariho kandi n'utubati tugiye dutandukanye, kandi twiza.

Udukoresho tw'udutarabe twiza cyane tw'ubururu, twicarwaho n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, tuba turiho aho bicara n'aho bandikira kugira ngo bakurikire amasomo yabo neza.

Umunyeshuri wiga muri Kaminuza y'u Rwanda uri kumanuka ku madarajya, yambaye imyambaro y'umukara afite igikoresho bagicurangisha agiye gucuranga umuzi.

Igikuta gisa icyatsi, giteho icyapa gishushanyijeho uturongo twinshi tugiye tunyuranyuranyemo, bigaragara ko biba byarakozwe n'abantu b'abahanga, bize ibijyanye n'imyuga.

Udukoresho tugiye dutandukanye tw'utubumbano turambitse ku meza bigaragara ko twakozwe n'abanyeshuri bize ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro.

Iyi nyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere iteye karabasasu ndetse ikaba ifite inzugi z'icyatsi zijya kwijima n'ibirahure bitabonerana mo imbere.

Udushushanyo tugiye dutandukanye turi mu mabara y'umukara tuba twarashushanyijwe n'abantu b'abahanga, bize muri kaminuza ibijyanye n'imyuga n'ubumenyigiro.

Igikuta kiza giteyeho udushushanyo tugiye dutandukanye bigaragara ko tuba twarakozwe n'abanyeshuri bize muri Kaminuza y'u Rwanda, ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro.

Ikibaho cyiza cyane gisa umweru, bigaragara ko kigirwaho n'abanyeshuri biga muri kaminuza ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro.

Ibishushanyo by'umudugudu mwiza cyane uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, aho harimo ibiti ndetse harimo n'amazu n'umuhanda wa kaburimbo. Bikaba bishushanyije neza.

Udukoresho tw'ubugeni tuba twarakozwe n'abanyeshuri bize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro, aho baba ari inararibonye cyane mu gukora utu dukoresho.

Ahantu hari agahanda gashashemo amapave, hakaba hari kugendamo abanyeshuri bagiye batandukanye. Hakaba kandi hari akazu keza cyane.

Abanyeshuri bashoje muri kaminuza bambaye amakanzu barishimye bigaragara ko ari umunsi wo kwambara. Ayo makanzu yabo ariho ibendera ry'u Rwanda.

Igikuta kizacyane, giteye y'umweru, kikaba cyanditseho utuntu twinsi tugiye dutandukanye, bigaragaza ko kigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye.

Inyubako nziza cyane y'ishuri, aho imbere harimo udutebe tugiye dutandukanye, turi mu mabara y'ubururu. Aho utu dutebe ari twiza cyane kandi tukaba twicarwaho n'abanyeshuri.

Igishushanyo cy'igipupe cy'umuntu aho uwo muntu yakebutse arebye ku ruhande ariko kikaba cyarajanjaguritse kubera ko umuntu wagikoze ari uwumuswa.

Igishushanyo cy'umudugudu mbonera aho hari utuzu twinshi twubatswe mu buryo bugezweho ariko dufite imiryango irangaye, nta nzugi ziri muri iyo miryango

Udukoresho twiza cyane dukozwe mu buryo bugezweho turi mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, tukaba dutatse mu buryo bwiza bugezweho.

Inyubako nziza yubatswe neza, yigirwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza benshi cyane bakaba bagenda bigiramo amasomo yabo kugira ngo bazatsinde.

Urugi rwiza cyane ruteye irange risa n'ivu, rukaba rufite ibirahuri byiza cyane bibonerana bigaragara ko ari inyubako yo muri Kaminuza y'u Rwanda.

Amasikariye cyangwa se amagarajya meza cyane ari kumanukaho n'abana biga muri kaminuza, bakaba bari kugenda bishimye bigaragara ko bagiye mu biruhuko.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri, ikaba ifite amadarajya meza cyane ndetse iteye n'amarangi y'icyatsi ku bikuta, ibirahurie ntabwo bibonerana.

Ahantu ku gikuta hari igitenge gishushanyijeho amabara agiye atandukanye ndetse hashushanyijeho n'uduseke turi mu mabara y'umweru n'umukara twiza cyane kandi dushimishije.

Ubusitani bwiza cyane hateyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo, aho izi ndabyo ari nziza cyane ku buryo umuntu wese uzihinze zimuteza imbere.

Intebe nziza cyane dukunze gusanga mu mashuri ya za kaminuza, ziba ziri mu mabara y'ubururu ndetse handitseho n'amagambo ari mu mabara y'umweru.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bakaba bahuriye hamwe bari kwiga. Bicaye ku ntebe zabugenewe nyinshi zigiye zitandukanye ,aho bari gukurikira ndetse banasobanurirana.

Abanyeshuri benshi bicaye bari kwiga mu matsinda, harimo abakobwa batatu n'abahungu babiri, bukaba ari uburyo bw'uburinganire, aho abakobwa nabo basigaye bajya ku ishuri bakiga.

Umugabo uhagaze ari gucuranga gitari bigaragara ko ari kwishimisha, akaba rero ari umugabo ukiri mutoya kandi uzi gucuranga neza.

Mu cyumba cyiza cyane, aho harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bya kinyamwuga biba bikoranye ubugeni, bikaba bikorwa n'abanyeshuri bize ibijyanye n'ubukorikori.

Udutebe twiza cyane twigirwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro. Tukaba ari twiza cyane kandi tubereye ijisho.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo na moto itwaye umugenzi hirya hari imodoka y'umweru, aho iyo modoka ari nziza cyane ku buryo wayigura.

Abanyeshuri bize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyigiro, baba bazi gukora udukoresho twinshi twa gihanga, ku buryo umuntu wese iyo tubonye ahita tubura.

Akantu ka apande enye karimo uturoho tugiye dutandukanye, tw'amabara menshi kajya gasa umweru, kabaditse ku cyapa kiri ahantu ku gikuta gisa icyatsi cyo mu nyubako y'amashuri.

Udukoreshwa twinshi tugiye dutandukanye dukozwe mu ibumba, tukaba turambitse ahantu heza cyane bigaragara ko twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri aho iteyemo amarange agiye atandukanye, ikaba ari nziza cyane kandi harimo n'intebe n'ameza bakoresha.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho yigirwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza, aha rero ni aho baparika imodoka zaje ku ishuri.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho ifite ibirahure n'umuryango ufunguye hakaba harimo n'abantu bari mo imbere benshi.

Abantu bagiye batandukanye biganjemo umusore n'umukobwa bari kugenda mu kayira gashashemo amapave bigaragara ko biga muri kaminuza.

Udufuka tugiye dutandukanye turambitse hasi tukaba ari twiza cyane kandi dushimishije bigaragara ko batwifashisha mu mwuga w'ubuhinzi.

Agakombe k'agakoroboyi karambitse ku meza kakaba karimo ibikoresho biba byarakozwe n'abantu bize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro .

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho ikaba isakaje amabati y'umutuku. Ifite ubusitani bwiza cyane buteyemo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumberi.

Urugi rwiza cyane rushushanyije igisiga kiri kuguruka, aho iki gisiga ari icya Kagoma, ibirahure rero ntabwo bibonerana ku buryo warebamo imbere.

Intebe nziza cyane zisa ubururu. Zikaba zifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse na za Kaminuza. Aho haba hari n'aho kwandikira.

Igikuta kiza cyane, kiriho ibikoresho bigiye bitandukanye by'imitako. Aho iyi mitako ari ingenzi, ikaba ikorwa n'abanyeshuri biga muri Kaminuza.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari mu nama yiganjemo abakobwa n'abahungu, bakaba bambaye imyambaro y'akazi bafite n'udupira tw'ubururu bicaye bari guseka.

Utubumbano tugiye dutandukanye tubumbye mu ibumba, tukaba turi ahantu mu cyumba cy'inyubako, yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba iteye amarangi y'umweru ku bikuta, hariho n'ibindi bintu.

Udukoresho twinshi cyane tugiye dutandukanye dukozwe mu ibumba, tukaba dukorwa n'abanyeshuri bize muri kaminuza ibijyanye n'imyuga n'ubumenyigiro.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri, aho harimo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Paul Kagame akaba afashe ku ntebe ari kureba muri mudasobwa.

Ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye, bikozwe mu buryo bw'ubugeni, aho biba byarakozwe n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'abandi biga muri Kaminuza.

Abantu benshi cyane harimo abagabo ndetse n'umukobwa umwe, bafashe icyapa mu ntoki byanditseho ngo gutanga amaraso utabara imbabare, ni ugutanga ubuzima.

Abakobwa benshi cyane kandi beza bambaye imyambaro myiza, bambaye udushati tw'ubururu ndetse n'utujile, bakaba bafite telefoni bari kurebamo yo mu bwoko bwa taci.

Umugabo uri kurebera mu gikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu buvuzi kugira ngo basuzume imyanda igiye itandukanye iba yagoranye kuyivumbura hifashishijwe ijisho gusa.

Hariho ibikoresho biba bikozwe mu buryo bw'ubugeni ku buryo bikorwa n'abanyeshuri bize muri kaminuza y'u Rwanda cyangwa se abize imyuga n'ubumenyingiro mu mashuri yisumbuye.

Ibibumbano bigiye bitandukanye aho ibyo bibumbano ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubikoze bibasha kuba byamuteza imbere, ibi ngibi rero ni byiza kuko bikorwa n'abanyeshuri.